Abantu bakoze uruziga bari ahantu mu cyumba cyo mu nzu, bakaba bambaye utujiri tw'umutuku turiho ikimenyetso cy'umusaraba cya kuruwa ruje, imbere yabo hari undi muntu usa nk'aho ari kubaganiriza uburyo bashobora gukoramo ubutabazi bw'ibanze ndetse inyuma ye hari ameza ateretseho uducupa tw'amazi.

Abantu benshi ubona bambaye udusengeri turiho umusaraba wa croix rouge, bahagaze imbere y'inzu ya salle bisa nkaho hari inama runaka bari bakoze hanyuma bakaza kuvuga ngo "reka tujye gufata ifoto y'urwibutso" harimo umukobwa umwe wambaye agapira k'umweru.

Ni ahantu hari inzu ya etage, ikaba ari ivuriro rya Nyagatare. Mu irembo ry'iryo vuriro harimo ambulance irimo irava muri iryo vuriro ndetse ahantu irimo iragenda hakaba hari amapavi, hari icyapa imbere gato cyanditseho Nyagatare district Hospital.

Ni mu muhanda w'umukara wa kaburimbo hagaragara imodoka itwara abagenzi rusange bisa nk'aho yakoze impanuka, iyi modoka ikaba yagonze igare iryo gare rikaba riyiri munsi, iruhande rw'iyo modoka hari umupolisi w'igihugu cy'u Rwanda ufite imbunda ndetse hari n'undi muntu uhagaze aho ngaho, bisa nk'aho bari kuganira ku cyabaye.

Aha ni mu bitaro bimwe byo mu Rwanda, hakaba harimo abaganga bateraniyemo. Hakaba hari n'ibitanda haragaragaraho umurwayi umwe w'umusaza wicaye ku buriri. Bisa nkaho bano baganga barimo baragerageza kwita kuri uyu musaza. Hirya hamanitse serumu iri muri uno musaza.

Abantu batanu bisa nk'aho bane bambaye imipira iriho ikimenyetso cy'umusaraba cya kuruwa ruje, bazanye bulankari aho hasi hari umukobwa uryamye bisa nk'aho agize ikibazo runaka, abangaba bakaba bagiye kumwihutana kugira ngo barebe ko bamuha ubuvuzi bw'ibanze.

Ni abantu batanu harimo abagabo bane ndetse n'umugore umwe bakaba bifotoreje imbere y'imodoka izwi nka ambulance, iyi modoka ikaba yifashishwa mu gutwara abarwayi ku bitaro bikuru kugira ngo bahabwe ubutabazi bw'ibanze.

Abantu benshi bateraniye ahantu bikaba bigaragara ko hari inzu runaka barimo barubaka wagira ngo ni umuganda wo guha umuntu ubufasha, aho hari ahantu hacukuye ikinogo barimo barakatira icyondo, abandi bagihereza abari hejuru bashyiraho amatafari ya rukarakara.

Umupolisi wambaye akajire k'icyatsi, akaba yahagaritse imodoka nziza cyane iri mu mabara y'umweru ikaba ifite ibirahure by'imikara bisa nkaho uyu mupolisi ari mu nshingano ze, aho ari kubaza ibyangombwa uyu muntu utwaye iyi modoka, bari ahantu ku muhanda bisa nkaho hateye ibiti by'imikindo.

Ni ahantu ubona ko hari imbangukiragutabara. Abantu bakora mu mbangukiragutabara hari abarwayi barimo ndetse hagati yabo hari abantu baba iruhande rw'imodoka hagaragara umuntu ufite camera bisa nkaho ari gufotora.

Ni ahantu ubona ko hateye intebe nyinshi, hakaba hari abantu bazicayemo, imbere y'abo bantu hari umubyeyi uhagaze, ufite mikorofone mu ntoki, uri kugira icyo abwira abo bantu, iruhande rwe hari icyapa cyanditseho, ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima mu Rwanda.

Ni ahantu muri salle ubona ko habereyemo inama runaka, hakaba hicayemo abantu bagiye batandukanye. Hari umuntu ubari inyuma uhagaze wambaye akajirire kariho ikirangantego cya croix rugé, imbere yabo hakaba hari insakazamashusho iri gutambutsa amashusho ndacyari icyapa cyanditseho ngo rubyiruko menya amateka.

Aha ni mu cyumba cyo kwa muganga ,aho umuganga arimo arasuzuma umurwayi wicaye ku ntebe yabugenewe ndetse iruhande rwabo hakaba hari ibikoresho byabugenewe by'ikoranabuhanga, muganga yifashisha asuzuma umurwayi. Ku meza hariho udukoresho tugiye dutandukanye.

Ni ahantu bigaragara ko ari kwa muganga, hakaba hari ibiganza by'umuganga wambaye uturindantoki. Hari n'ikindi kiganza gisa nk'icy'umurwayi, umuganga akaba afite akantu mu ntoki kameze nk'urushinge, bisa nk'aho agiye gutera uwo murwayi. Ku meza hari ifishe yanditseho'ibintu bitagaragara.

Mu mavuriro menshi agiye atandukanye hirya no hino mu gihugu cy'u Rwanda. usanga harimo abaganga b'inzobere. Aho bagenda bavura indwara nyinshi zigiye zitandukanye. Aha ni mu ivuriro, aho harimo abaganga batatu barimo barita ku murwayi uryamye ku gatanda kabugenewe ndetse hanagaragara ibindi bikoresho by'ikoranabuhanga, byifashishwa n'aba baganga mu gihe bari gusuzuma umurwayi.

Ni ahantutu bisa nk'aho ari muri sale ikaba yabereyemo igikorwa cy'ingenzi, hicayemo abaganga bagiye bambaye impuzankano zabo zo mu kazi ndetse harimo n'abandi bisa nkahoa ari abayobozi babo barimo barabaganiriza ngo bababwire uko serivisi zirimo ziratangwa, hari ameza ateretseho imashini ndetse n'uducupa tw'amazi.

Abantu benshi batandukanye, bahagaze mu muhanda wa kaburimbo. Hakaba harimo abambaye amataburiya y'umweru bisa nkaho ari abaganga, ndetse n'abandi bambaye baje mu ijosi. Bari ahantu hagati y'ibiti mu muhanda, bisa nkaho bari gufata ifoto y'urwibutso.

Ni ababyeyi benshi cyane ubona ko bicaye ahantu ku murongo, buri mubyeyi akaba akikiye umwana we. Biragaragara ko baje ahantu hasa n'ahoaho ari ku kigo nderabuzima, kugira ngo babashe kuba bakurikiranwa ndetse bitabweho neza. Begamye ahantu ku gikuta cyubakishije amatafari ahiye, kirimo amabara y'umukara ndetse n'umweru.

Ni ahantu kwa muganga haragaragara umugabo wambaye itaburiya y'umweru bisa nkaho ari umuganga, ari gushyira imashini ipima umuvuduko ndetse n'umutima ku kaboko k'umugabo waje gushaka serivisi. Iruhande rwe hakaba hari undi mumama wambaye na we itaburiya y'ubururu bisa nkaho arimo arandikira uyu muganga ibisubizo.

Ni abantu ubona bari kugenda mu muhanda wa kaburimbo, aho batonze imirongo, abimbere bafite icyapa cyanditseho kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi ku nshuro ya mirongo itatu, inyuma yabo hakaba hari imodoka zibaherekeje ndetse hahanagaragara n'irembo ryubakiye handitseho ngo ibitaro by'Akarere bya Nyagatare.

Aha ni mu ivuriro hakaba harimo icyuma cyabugenewe gikoresha ikoranabuhanga cyifashishwa n'umuganga mu gihe arimo arasuzuma umurwayi, inyuma y'ako gatanda umurwayi aryamo kabugenewe hakaba hari agakoresho kameze nka televiziyo gafasha umuganga kwereka ikibazo umurwayi afite.

Abantu benshi ubona bateraniye ahantu hamwe, muri abo bantu hakaba harimo Umusirikare wambaye impuzankano y'abasirikare b'igihugu cy'u Rwanda, inyuma hagaragara icyapa ndetse n'ibiti, hari kandi n'amazu bigaragara ko aya mazu ashobora kuba atangirwamo serivisi y'ivuriro.

Aha ni mu cyumba cyo kwa muganga hakaba hicayemo umugangakazi cyangwa se umuforomokazi, akaba ari gukoresha igikoresho cy'ikoranabuhanga kizwi nka mashini, imbere ye ku meza hateretse ibipapuro byinshi bisa nkaho arimo arandika raporo muri iyo mashini ndetse ku meza hari na garafeze ndetse hari n'ibindi bintu bigiye bitandukanye.

Abantu benshi bagiye batandukanye hakaba harimo abambaye amatabuririya y'umweru bigaragara ko ari abaganga. Harimo abambaye amabaji bakaba bifotoreje ahantu mu muhanda wa kaburimbo. Inyuma yabo hari ibiti byinshi bibakikije.

Ni mu cyumba cyo kwa muganga, hakaba harimo igitanda cyabugenewe kiryamishwaho umurwayi, haragaragara kandi amadirishya akoze mu birarahure ndetse muri icyo cyumba hasi hakaba harimo amakaro, imbere unyujije mu madirishya ahari, hari ibyuma bihari ndetse na jaride.

Abaganga babiri bambaye impuzankano iri mu ibara ry'icyatsi, bakaba bari mu cyumba mu ivuriro, aho ku gitanda haryamye umurwayi. Umuganga umwe akaba ari ku gikoresho cyabugenewe, aho arimo aragerageza gusuzuma uwo murwayi uryamye, boroshe igitambaro cy'icyatsi.

Ni inzu ubona yubakishije amatafari ahiye ndetse ikaba ifite igisenge cy'umutuku, iyi ikaba itanga serivisi zirekeranye n'ivuriro aho imbere yayo hari intebe zicarwaho n'abantu b'abarwayi baje gushaka serivisi, haragaragara moto ihaparitse ndetse n'undi mugabo urimo uragenda, hari n'ibiti binini bihateye.

Ni mu ivuriro hakaba hicayemo abaganga babiri umuhungu ndetse n'umukobwa hari umugore uri imbereye bisa nk'aho ari umurwayi akaba yaje muganga yamushyizeho imashini ku kaboko imufasha gupima umuvuduko w'amaraso umukobwa arimo arandika mu gakarine ndetse n'igitabo bandikamo abarwayi.

Inyubako bigaragara ko ari inyubako itangirwamo serivise z'ivuriro. Hari abantu bari bagize igikorwa runaka bakora barangije baravuga bati tugende tujye muri jaride dufate agafoto k'urwibutso, harimo abambaye amataburiya y'abaganga ndetse n'abandi batandukanye.

Umugabo w'umuganga wambaye itaburiya y'umweru ufite agakoresho mu ijosi kabugenewe, imbere ye hakaba hicaye umugabo waje kwivuza aho yazamuye ishati ku kaboko ke kimoso, umuganga bisa nkaho agiye kumushyiraho imashini imupima umutima ndetse n'umuvuduko, ku meza hari ibipapuro byinshi ndetse n'ikaramu haragaragara n'intebe ihari.

Ni inyubako nyinshi zitandukanye, izi nyubako zikaba zitangirwamo serivisi y'ivuriro. Imbere haparitse imodoka ndetse muri iyo mbuga harimo amapave. Haragaragara imbere kandi umuhanda wa kaburimbo n'ahantu hari ikiraro haragaragara icyapa mu busitani.

Ni ahantu bigaragara ko hakorerwa isuzuma ry'imiti igiye itandukanye, hakaba hari abaganga bambaye impuzankano, aba baganga bakaba barimo barakora ibintu byabo aho bari gusuzuma, imbere yabo hateretse utuntu bari gusuzumiramo ndetse hari n'undi urimo aragenda yandika.

Aha ni ahantu hicaye umuganga wambaye itaburiya y'umweru ndetse n'uturindantoki akaba ari hamwe n'umumama bisa nkaho arimo aramutera agashinge ku rutoki kugira abashe kuba yamupima indwara y'icyorezo nka sida, imbere ye hakaba hari utuntu agenda ashyiramo amaraso kugira ngo aze kumenya icyo umurwayi arwaye.

Ni muri laboratwari, aho harimo umuganga utagaragara neza isura, gusa akaba yambaye tabuririya y'umweru ndetse n'uturindantoki, hari udukoresho twabugenewe ari kugenda asukamo utuntu, avangavanga kugira ngo abashe kuba yahuza arebe ikintu cy'ingenzi cyavamo.

Ibiganza by'umuntu w'umuganga aho bigaragara ko uyu muganga yambaye uturindantoki, akaba afite akantu k'agacupa bashyizemo amaraso aho barimo barasuzuma abantu Virusi itera SIDA, imbere ye ku meza hakaba hari urupapuro rwanditseho ibintu arimo aragenda yuzuza.

Ni ibiganza by'umuganga utagaragara mu maso ariko akaba yambaye uturindantoki, afite uducupa twa tesite aho harimo amaraso y'umuntu runaka aho yafashe ibizamini by'amaraso y'uwo muntu kugira ngo amupime arebe niba nta gakoko gatera sida arwaye.

Icyi ni icyumba cy'ingenzi mu byumba byo kwa muganga. Hakaba harimo ibikoresho byabujyenewe bizwi nka "microscope" byifashishwa n'abaganga mu gihe bafatiye abarwaye ibizamini aho barebera kugira ngo barebe indwara umurwayi yaba arwaye.

Ni abantu bameze nk'aho ari abaganga bari mu nzu nini cyane, bambaye amataburiya y'umweru ndetse bakaba bari ahantu bisa nk'aho barimo barakorera ubushakashatsi bugiye butandukanye hazwi nko muri laboratware, hari udukoresho tw'ibanze bifashisha mu bushakashatsi bwabo, ndetse iyo nzu iriho amatafari ahiye hejuru hariho amakaro y'umweru.

Ni kwa muganga aho hari umuntu w'umuganga wicaye ku ntebe, imbere ye hari icyuma k'ikoranabuhanga kizwi nka mikorosikopi uyu mugabo akaba hari ibintu arimo arasuzuma neza arebeye muri icyo cyuma, bisa nkaho ari ibizamini by'umurwayi yafashe, aho arimo aragerageza gushakamo indwara.

Ni ahantu hari abantu benshi bisa nk'aho habereye amahugurwa runaka, hari umugabo uri imbere uri kumwe n'undi mugabo w'umuganga, uyu mugabo akaba ari kwereka abo bantu akantu afite mu ntoki bisa nk'aho ari kubasobanurira uburyo kaba gakoramo.

Ahantu bigaragara nk'aho ari muri Kigali arena hakaba hateraniyemo abantu benshi cyane bambaye impuzankano imbere yabo hakaba hari insakazamashusho nini irimo iracaho ibiri kubera ahongaho hejuru hari amatara arimo araka bisa nkaho ari nijoro.

Uyu ni umuforomokazi wambaye itaburiya y'umweru ndetse afite agakoresho yishyize mu ijosi kabugenewe yifashisha asuzuma abantu. Imbere ye ku gatanda hakaba haryamye akana k'uruhinja, ubona ko gacometseho ibikoresho byabuhariwe byifashishwa mu gihe barimo barita ku mwana.

Ahantu hateraniye abantu benshi hari umugabo ufite ikayi mu kaboko ke k'imoso, afite na microphone mu kandi kaboko k'indyo arimo arasa nkaho hari ibintu arimo arabwira abantu bari aho, inyuma y'abaturage haragaragara ibyatsi bimeze nk'urubingo ndetse n'ibiti.

Ni akarima k'igikoni, ubona ko karimo imboga zishishe, aka karima kakaba kubabatse mu buryo bugezweho ndetse bwa gihanga, aho barunze itaka, bagashyiraho imifuka, hanyuma bagateramo izi mboga kugira ngo babashe kwirira imboga, igihe cyose bazishakiye.

Ni mu nzu ikaba isashwemo imikeka myiza cyane aho harimo abana benshi bagiye batandukanye hagaragara umukobwa ukikiye akana aho afite igikombe arimo aragaha icyo kunywa hari n'abandi bana kandi bicaye ahongaho kuri uwo mukeka bose bagiye bafite igikombe kirimo icyo kunywa.

Umugore wambaye umupira w'icyatsi, ukaba wanditseho RBC, uyu mugore akaba afite mikorofone mu ntoki ze, afite ndetse n'urupapuro rwanditseho amagambo bisa nk'aho arimo arasoma, yambaye isaha nziza ndetse biragaragara ko ahagaze hagati y'abantu, bari munsi y'ibiti, bisa nk'aho hari ikintu runaka cy'ingenzi arimo arababwira.

Abantu bicaye ahantu heza cyane, mu ntebe nziza cyane, hakaba harimo abagabo ndetse n'abagore; harimo umugore umwe wambaye amarineti, ufite mikorofoni mu ntoki, ndetse n'impapuro mu ntoki ze asa nkaho hari ikintu ari gutambutsa. Imbere yabo hateretse uducupa tw'amazi, naho inyuma yabo hari ibyapa bihari bigiye byanditseho amagambo atagaragara neza.

Ni ahantu hari imodoka z'imbangukiragutabara hakaba hagaragara abagabo bane, babiri muri abo bagabo bakaba bambaye utujiri turiho umusaraba nk'ikirangantego cya kuruwaruje ndetse undi arimo arabafasha, hari undi muntu urimo hagati bisa nkaho afite ikibazo bamwihutishije ngo bamujyane mu mbangukiragutabara kugira ngo abashe kuvurwa.

Ni urubyiruko ubona ko rwambaye impuzankano rukaba ruhagaze ahantu hari amabave, inyuma yabo hakaba hateye utwatsi twiza dutohereye ndetse hakaba hari kugaragara n'igiti ndetse n'indabo, mu bigaragara ni uko hari igikorwa runaka k'ingenzi bari bavuyemo barangiza bagafata ifoto y'urwibutso, aho bafite akapa kanditseho amagambo ndetse hakaba handitseho RBC.

Abantu bicaye ahantu bamwe babahagaze inyuma barimo barifotoza, hakaba harimo abambaye impuzankano y'imipira y'icyatsi, harimo kandi n'abandi basirikare bivanzemo bambaye impuzankano y'Igisirikare cy'Igihugu cy'u Rwanda, bicaye imbere y'ibiti ndetse n'icyapa cya RBC.

Abantu bicaye ahantu mu cyumba bakaba bicaye ku ntebe harimo abagore ndetse n'abagabo, bisa nkaho aha baje ari nk'ahantu ku kigo nderabuzima, aho baje gushaka serivise zigiye zitandukanye z'ubuzima, bicaye mu nzu yubakishije amatafari ahiye.

Abantu bari ahantu hameze nko mu cyumba cyo kwa muganga bakaba bicaye bakoze uruziga bose bikaba bigaragara ko hari ibintu runaka babahaye bahugiyeho. Buri muntu imbere ye hagiye hateretse agacupa k'amazi yo kunywa.

Ni ahantu ubona ko hari inzu nini icururizwamo imiti igiye itandukanye, hakaba harimo umukobwa wambaye ikanzu y'umweru ndetse haragaragaramo etajeri irimo ubwoko bw'imiti igiye itandukanye, iyi nzu ikaba izwi nka farumasi aho icuruza imiti myinshi itandukanye.

Ni ahantu hameze nko mu cyumba hakaba hateye ameza akoze mu rubaho rukomeye cyane, hejuru y'ayo meza hakaba hariho imikasi itandatu, ubona ko iri mu bwoko bugiye butandukanye, biragaragara ko iruhande rwayo haba hari umuntu uhagaze cyangwa se ikindi kintu.

Inyubako ubona ko yubatswe mu buryo bugezweho, ikaba ifunguye imiryango ibiri yayo, iyi nyubako ikaba ari farumasi ya Iraguha, iruhande rwayo hakaba haparitse abamotari ndetse n'imodoka, mu muryango hari abantu baje gusaba serivise muri ino farumasi.

Ni inzu nziza cyane bigaragara ko harimo etajeri igiye ikingirijwe n'ibirahuri. Muri iyo etajeri hakaba harimo ubwoko bwinshi bw'imiti igiye itandukanye, mu bigaragara nuko iyi nzu ari farumasi aho icururizwamo imiti myinshi igiye itandukanye ndetse ivura indwara nyinshi zitandukanye.

Aha ni muri sare irimo iraberamo inama cyangwa se ubukangurambaga runaka hakaba harimo abantu benshi bagiye batandukanye, hari umugore uhagaze ufite mikoro uri kugira ikintu ari kuvuga, muri abo bantu hakaba harimo umugabo wambaye imyenda ya Gisirikare, ku meza hagiye hateretseho amazi, marete ndetse n'amakayi.

Urubyiruko rwinshi ruteraniye ahantu, uru rubyiruko rukaba rumwe muri rwo rwambaye impuzankano z'umuhondo ndetse n'umukara, bafite ikibandarore cyanditseho ngo turwanye ibiyobyabwenge mu rubyiruko.

Abantu bari ahantu hashashishije amapave muri abo bantu hakaba harimo umugore umwe w'umupolisi, bafite ikibandarore kiriho Ikigo k'Igihugu gishinzwe ubuzima mu Rwanda cyanditseho ngo koresha agakingirizo ubungabunga ubuzima bwawe.

Ni abana b'abanyeshuri bambaye impusankano, bakaba bari kumwe n'umwarimu wabo w'umukobwa ubigisha, bahagaze ahantu imbere y'ikigo cy'ishuri, bisa nkaho hari icyapa bafite kiriho amagambo atagaragara neza, barimo bamamaza, buri muntu wese afite agatabo mu ntoki.

Ni ahantu ubona ko hahuriye abantu benshi bisa nkaho ari abanyeshuri ba pirimeri cyangwa se aba segonderi hakaba harimo abana bagiye batandukanye bambaye impuzankano zigiye zitandukanye, aho hantu hakaba hubatse amatente ndetse hari abana bafite ibyapa bisa nkaho hari ibyo barimo baratambutsa nk'ubutumwa.

Ni abantu benshi batandukanye, bicaye ahantu munsi y'inyubako ya etaje, mu bigaragara ni uko hari ubutumwa runaka baje kumva, biragaragara ko hari umuntu uri imbere yabo, arimo aragira icyo abagezaho, harimo abitwikiriye imitaka ndetse hari n'ibyapa, biri kugaragara inyuma.

Ni ahantu bisa nkaho ari mu cyumba cy'inama hakaba hicayemo abantu bagiye batandukanye, haragaragara umuntu ubari imbere bisa nkaho uyu muntu ariwe uri kubigisha, ku meza hariho impapuro ndetse n'ibikapu.

Ni ahantu bisa naho habereye igikorwa k'ingenzi. Aho bigaragara ko hubatswe amatente. Haragaragara umuganga urimo uratera urushinge umusore umwicaye imbere ku rutoki, bisa nkaho agiye kumufatira ibizamini ngo amupime indwara runaka. Hirya haragaragara n'abandi bantu bicaye basa nkaho baje muri icyo gikorwa.

Ni ahantu hateraniye abantu benshi bagiye batandukanye, ubona ko bahagurutse ku ntebe zabo. Imbere yabo hakaba hari umugabo ufite mikorofoni, asa nkaho hari ibintu ari kubabwira. Hari abafite telefoni barimo baramufotora. Inyuma y'abo bantu hari urukuta ruhari ndetse hari n'ibiti bihateye.

Ni ahantu hicaye abantu batanu, umugabo umwe akaba ari umupolisi undi akaba ari padiri ndetse undi akaba ari umuyisilamu, abandi babiri birashoboka ko baba ari nk'abapasiteri bicaye imbere y'icyapa cyanditseho ngo twubake u Rwanda ruzira ibiyobyabwenge cya RBC.

Ni abantu bisa nkaho bari mu cyumba k'inama. Imbere yabo hakaba hari umugabo bisa nkaho ari kubabwira ibintu by'ingenzi, byabahurije aho kuri uwo munsi. Abantu bicaye, imbere yabo ku meza hakaba hari uducupa tw'amazi ndetse na terefone ngendanwa. Hari n'umuntu ufite imashini imbere ye.

Abantu benshi barimo baragenda mu muhanda harimo abantu bambaye impuzankano zigiye zitandukanye, harimo abambaye imipira y'imihondo ndetse hari n'abapolisi bahari muri uwo mujyo w'abo bantu, abantu b'imbere bakaba bafite icyapa cyanditseho amagambo ariko atagaragara neza bisa nkaho hari ikintu runaka barimo baramamaza, iruhande hari ibiti byinshi.

Abantu bateraniye ahantu bisa nk nk'aho ari mu cyumba cyabereyemo inama, imbere yabo hakaba hari umugabo bisa nk'aho arimo aragenda ababwira icyabahurije ahongaho, inyuma yabo hari icyapa cyanditseho amagambo atari kugaragara neza, abantu bitabiriye iyo nama urabona ko bakurikiye.

Iki ni ikimera kizwi ku izina ry'umuravumba kikaba gitohereye ndetse gifite amababi meza cyane, iki kimera kikaba cyifashishwa n'abaganga gakondo igihe barimo bavangavanga ibindi bimera by'amoko agiye atandukanye kugira ngo bakore umuti mwiza kandi ushobora kuvura indwara nyinshi zitandukanye.

Ni ahantutu mu nzu, hakaba harimo umukobwa ufite imisatsi y'umukara itendera. Hari etageri irimo imiti myinshi y'ubwoko bugiye butandukanye. Iyi akaba ari imwe mu miti ikoze mu bimera gakondo.

Ni inzu ebyiri, izi nzu zose zikaba ari ibigo nderabuzima, ziri mu mabara y'ubururu ndetse imbere kuri buri nzu hakaba hicaye abantu bategereje serivisi, imbere y'izo nzu hari igiti gihari kinini ndetse hari n'utwatsi tuhateye.

Ikigo nderabuzima kiri mu mabara y'ubururu, iruhande rwacyo hakaba hari umusirikare wambaye impuzankano y'igihugu cy'u Rwanda, imbere yacyo hakaba hari jaride nziza cyane ndetse kikaba gikikijwe n'ibiti bitanga akayaga ko guhumeka,

Inyubako iri mu mabara y'ubururu ikaba izwi ku izina ry'ikigo nderabuzima mu idirishya ry'iyo nyubako harimo umuntu uhagaze bisa nkaho hari serivisi ashaka, imbere y'umuryango hicaye akana ku ntebe ndetse hari n'umubyeyi ukikiye umwana, imbere y'iyo nyubako hari akadomoro karimo amazi abantu bifashisha bakaraba intoki kugira ngo birinde umwanda.

Abantu barimo barifotoreza imbere y'inzu y'ikigo nderabuzima kiri mu mabara y'ubururu, iruhande rw'abo bantu hakaba hari igiti kihateye ndetse n'indabo, muri abo bantu kandi hagaragaramo abagore babiri b'abazungu.

Ikigo nderabuzima cya Gishambashyayo kikaba kiri mu mabara y'ubururu, imbere yacyo hakaba hari abantu bahifotoreje bisa nkaho harimo abaganga ndetse n'abandi bantu batanga serivisi muri icyo kigo nderabuzima, muri abo bantu harimo umukobwa umwe w'umuzungu.

Abagabo batatu bicaranye n'umugore umwe, aho imbere yabo hari ameza ariho ibintu byinshi bitandukanye, hariho akabido, igikombe ndetse n'utundi dukombe dutandukanye turimo imiti igiye itandukanye, uwo mugore akaba afite urupapuro, aho arimo arasobanurira abo bagabo.

Umuganga wambaye impuzankano y'abaganga, akaba arimo aratera umuti muri serumu, iyi serumu byanga byakunda ikaba ifashe ku murwayi utagaragara, uyu muganga akaba arimo ayashyiramo umuti kugira ngo umurwayi arusheho kumererwa neza.

Aha ni kwa muganga, aho hagaragara umurwayi ndetse n'umuganga, umuganga yambaye itaburiya y'umweru n'agakoresho yambaye mu ijosi, umurwayi yazamuye ishati, aho umuganga agiye gushyira imashini ku kuboko kugira ngo abashe kumupima umuvuduko w'amaraso n'umutima we, uko bihagaze.

Ahantu bigaragara ko wagira ngo ni muri etajeri hakaba hatetsemo udukombe tw'imiti y'amatungo igiye itandukanye, kuri utwo dukombe hakaba hariho inka, ihene, ingurube, ndetse n'ibindi, bigaragara ko iyi ngiyi ari imiti ihabwa ayo matungo.

Ni ahantu ubona ko hateye icyapa kiriho idaraporo ry'u rwanda ndetse n'ikindi kirangantego cy'u rwanda, ubona ko icyo cyapa cyubakiye neza. Inyuma hakaba hari ibiti ndetse na jaride. Kuri icyo cyapa, hakaba handitseho ngo '' impeshakurama z'ibitaro bya Nyagatare''. Hakaba hariho ifoto y'imodoka y'ambulance.